Abantu benshi bicaye hamwe ku ntebe z'umukara, abagabo n'abagore barebana, imbere yabo hari ameza magari bamwe bashyizeho amaboko, hariho undi wifashe mu mutwe n'amaboko yose, hirya yabo hari ururabo ruteretse kuri yo rurabije.

Abagabo benshi bahagaze bambaye ingofero zisa ziriho ibirangantego, imyenda itandukanye imipira, y'ubururu, umutuku, icyatsi, imbere yabo hari umugabo wambaye amadarubindi mu maso afite indangururamajwi mu ntoki, hirya ye hicaye umumama.

Umugabo wicaye, munini wambaye umupira w'umukara uriho imashini, ugeze mu zabukuru wiyogoshesheje igihara, inyuma ye hari intebe z'umutuku, umufariso w'umweru uziteretsemo, ari kureba imbere, ahatumbiriye.